Ibitaro byiza cyane bya Luri, aha harimo umuryango abantu binjiriramo bagiye kwivuza, harimo abantu bari kujya kwivuza bari kugenda, harimo umugabo n'umugore bafatanye intoki, bigaragare ko umwe ari gushaka kunyura hamwe, undi nawe akamukurura, bari kugenda bamaze kwivuza, harimo n'abandi bavuyeyo.

Ahantu heza hagaragara neza hari utwatsi twiza ndetse harunze n'amabuye ku mpande y'amakoro manini cyane harimo utwatsi tumeze turi kumera hagati tumeze nkaho ari ibirayi ariko bishobora kuba atari byo, mo hagati hagiye harimo utubuye bigaragaza ko ari ahantu heza umuntu ashobora gutemberera kandi akahishimira.

Ibiti by'ibirabyo byiza cyane bimeze neza kandi bizitiye ahantu, biregeranye cyane, bikoze uruzitiro, bigaragare ko bishobora gukoreshwa nk'kuruzitiro rwo kuzitira urugo, kugira ngo hatagira ibintu bigenda biza binyura mu ruzitiro rw'urugo.

Ikirabyo kinini cyane kimeze nk'insina, kimeze nk'ubwoko bw'insina, gifite amakoma manini cyangwa se amababi, ni ikirarabyo kiba kiri ahantu mu rugo ku buryo gituma ahantu hamera neza, hagaragara neza, kandi ni cyiza cyane kirasa neza.

Igitsinsi cy'igisheke, ibisheke bikiri bitoya biri kuzamuka biri hamwe ku gitsinsi kimwe bigaragazako kizavamo ibisheke byinshi kandi bikera neza, bikazabasha kugurishwa icyo gitsinzi bigaragarako kizatanga umusaruro mwinshi w'ibisheke kikavaho ibisheke byinshi.

Utwatsi twiza t tw'icyatsi cyane，twarabye turiho uturabo， bigaragare ko ari ibyatsi biteye ahantu， ni ibyatsi bimwe nta bindi bivangiyemo，bigaragara ko ibi byatsi bishobora kuba byakoreshwa nk'umuti， kandi bikaba byanatanga ubwatsi bw'inkwavu.

Igiti kinini kifashishwa mu gukoramo imiti, kiriho utubuto tw'umutuku, bigaragare ko kimaze gukura cyane, ku buryo gishobora kwifashishwa .Kiri kumwe n'igisheke gikoreshwa kiribwa kikongera amasukari mu mubiri w'umuntu, cyangwa se kigatanga ubwatsi bw'amatungo. Iki giti gikoreshwa mu buvuzi, biragaragara ko gikuze ku buryo gishobora kuba cyakoreshwa gikurwaho umuti.

Utwatsi twiza dufite uturabo tw'umweru dutoya, tugufinya turimo n'amabuye. Hagati harimo n'ibitiritiri n'ibindi byinshi bigaragara ko ari ahantu hari hatari ubwatsi bwinshi, ariko ari ahantu hameze neza, hari utubuye twinshi, umuntu yatemberera akahabona ibyiza nyaburanga bitatse igihugu.

Indabo nziza ziteye ahantu mu mabuye zimeze neza cyane hateyemo ibindi biti ndetse hamezemo n'ikidodoki bigaragara ko kizakuriramo kandi kikabasha kwera neza.

Inzu nziza zimeze neza, zifite utu esikariye twiza, zimeze neza cyane, zifite jaride nziza irimo n'igiti kinini cy'rurabo kimeze neza, harimo n'utujaride, n'udupasiparume twiza, bigaragare ko ari ahantu heza nyaburanga.

Ibyatsi bitoya bikiri bitoya, harimo n'ibibonobono biri gukura, biragaragara ko ari ibyatsi biri ahantu byameze neza ahantu hari ifumbire, harimo n'inteja zitarakura neza, ibi byatsi ni byiza bishobora kuba byakwifashishwa nk'umuti kandi bikaba byakoreshwa neza bigatanga umuti wavura indwara zimwe na zimwe.

Agashyamba keza karimo uduti dutonya cyane ndetse n'ibindi binini byisumbuyeho, bigaragara ko hashobora kuba ari ahantu nko muri parike ku buryo ibikoko bishobora kuba binyuramo, inzoka zinyura muri utu duti zikabasha kuzamuka zikagera aho zigiye.

Ibyatsi byiza bisa n'icyatsi cyane bishobora kuvamo imiti kandi biri ahantu heza hameze neza. Bitwikiriye ubutaka ku buryo utabasha kububona, ku buryo hashobora kuba habamo n'ibikoko munsi yabyo.

Jaride nziza irimo ibiti binini ndetse n'ibyatsi bigaragara ko harimo n'ibiti by'imbuto, ni ahantu heza hameze neza hashobora kwicarwa umuntu ashaka kuruhuka ndetse no gufata akayaga.